Mu rwego rwo kwegereza abantu ubuvuzi, turi kubona umumama cyangwa se umuntu ugaragara nk'umubyeyi ari kwitabwaho n'umuganga amuha ubuvuzi ntitwamenya niba ari kumukingira cyangwa ari kumuvura bisanzwe, ariko serivisi ari kumuha y'ubuvuzi ishingiye ku kumutera urushinge.

Bijya biba ngombwa ko abantu bashobora gutekereza guhura, kugira ngo bagire ibintu runaka baganiraho cyangwa se biga, kugira ngo babifatire umwanzuro. Ibyo bikorwa rero bisaba ko abantu bahurira ahantu hasa nk'aho hagutse, hari bubashe kwakira umubare ungana nkuko bangana, ni yo mpamvu rero hari igihe abantu bifashishije icyo bita sale konferanse.

Abagabo babiri bari guterura imifuka bayihunika, bishoboka cyane yuko ari imyaka, umusaruro weze w'abaturage, ibishyimbo se, umuceri cyangwa ingano ndetse n'ibindi abaturage bashobora kweza.

Ikigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu gishobora kuvurwa tutifashishije ubundi buvuzi dusanzwe tuzi burimo ibinini n'inshinge, ahubwo aho umuntu ashobora gukorerwa icyo bita therapy, kuba wamuganiriza, cyangwa se kuba wamukorera ibindi bikorwa ariko byamufasha gutandukana cyangwa se kuba yakwibagirwa ibibazo afite cyangwa ibibazo yaba yarahuye na byo.

Ubuzima bwo mu mutwe ni ikintu k'ingenzi abantu twese twakabaye twitayeho, ni yo mpamvu nashishikariza abantu bose gushaka uburyo bagira amakuru yerekerenya n'ubuzima bwo mu mutwe, kuko mu gihe nta buzima bwo mu mutwe, buzima dufite, na sosiyete nta bantu bazima Yaba ifite.

Dukwiye Kuzirikana ko amenyo yacu ari igice kimwe mu bice by'umubiri kandi igice k'ingenzi, kidufasha mu gufata amafunguro, byaba ibyo kurya byoroheje cyangwa ibikomeye, ni yo mpamvu rero dukwiye kujya tuyitaho, kandi tukanayavuza mu gihe twumva afite ikibazo.

Isi yateye mbere mu buryo butangaje, niyo mpamvu n'igisata cy'ubuvuzi rero cyateye imbere, tutibagiwe igisata cy'ubuvuzi kivura indawara zerekeranye n'amenyo, twite ku menye yacu kuko ni igice cyacu kandi k'ingenzi.

Dukwiriye kugira ubumenyi bwihariye, ku buryo dukwiriye kwita ku bantu basheshe akanguhe cyangwa se ku bantu bakuru bageze mu zabukuru, kugira ngo babashe kubaho bishimye, bigaragare inyuma ku mubiri, mu ntekerezo zabo ndetse binabarinde kwiheba.

Aha ngaha turahabona abantu babiri, umusaza n'umukecuru, ubona ko bageze mu zabukuru, bigaragara ko bari gufata imiti, kugira ngo bakomeze kugira ubuzima buzira umuze, haba inyuma ku mubiri haba ndetse n'imbere ndetse no mu mitekerereze.

Dukwiriye kwita ku bantu bageze mu zabukuru, tubaha ubuvuzi buboneye, tbaremamo icyizere cy'ejo hazaza, kuko turacyabakeneye kandi ni ab'ingenzi kuri twe. Bafite byinshi byo kudusangiza kandi natwe byazatugirira umumaro ejo hazaza.

Mu cyo bita nyitaho nkwiteho, bishoboka ko umuntu ugeze mu zabukuru ashobora gusigarana umwana mu gihe umuntu wundi babana wenda yaba yagiye mu kandi kazi, uwo muntu mukuru mu gihe ari kumwe n'uwo mwana aba yumva ameze neza, kandi n'uwo mwana iyo ari kumwe n'umuntu umwitaho aba yumva na we ameze neza.

Mu rwego rwo kwirinda indwara zandura, urugero iyitwa korona, biba ngombwa ko hari ingamba zishyirwaho harimo kutegerana, harimo kudasangira ibikoresho, harimo gukaraba intoki kenshi gashoboka ukoresheje amazi meza n'isabune mu gihe wayanduye kandi bikaba ngombwa ko utanga amakuru kugirango uhabwe ubufasha bwihuse.

Ni gahabm hauhdhjs ararha

Aha ngaha turabona inyubako y'ubuvuzi itangirwamo ubuvuzi, irimo umuganga ubona yuko yiteguye guha

Aha turahabona umukozi w'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuvuzi RBC, ari kumwe n'umuntu, bigaragara ko ari nk'uwaje amugana. Ariko tukanabona ikirango cya service zitangwa zitwa Irembo.

Abantu benshi bikaba bakuzirika

Abazi kwa muganga haba icyumba bita oterashenirumu, icyo cyumba kikaba ari icyumba kiba cyaragenewe kubagurwamo abantu bahuye n'ibibazo, bisabwa kugira ngo bahamwe ubuvuzi bitibusabwe ko babanza kubabaga bitewe n'uburwayi bafite

Aha turahabona inyubako yagenewe ubuvuzi, ikaba ari inyubako iri ku rwego rugezweho, kandi ubona yuko irimo n'ibikoresho bigezweho kugira ngo habashe gutangwa ubuvuzi bwizeye ku baza bagana.

Uko duhererwa service ahantu heza, ni nako tunyurwa na service twahawe. Ni muri urwo rwego rero dukomeje kugenda tubona inyubako nziza zagenewe ubuvuzi; kugirango tubashe kwita ku barwayi bacu, kandi bahabwe na service ibanogeye.

Ikizwi nka siporo ni ibikorwa bikorwa mu buryo butandukanye, aho abantu bashobora kuba bakina umupira w'amaguru, biruka cyangwa bakina imikino y'amaboko, ariko habaho n'abakora siporo bagamije kwishimisha, aho usanga baterura ibintu biremereye kugira ngo ibice by'umubiri wabo bibe nk'uko babishaka.

Mu buvuzi rero dushobora kwivura natwe ubwacu, dukoreshejwe ikizwi nka siporo cyangwa se imikino, aho abantu bashobora gukina imikino itandukanye, harimo nk'umupira w'amaguru, harimo imipira y'amaboko n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye bizwi nka siporo.

Inyongeramusaruro ni kimwe mu bintu Leta yashyizemo imbaraga, kugira ngo ifashe abahinzi kongera umusaruro. Ibyo bifasha kugira ngo abahinzi bihaze mu biribwa ndetse basagurire n'amasoko.

Ese waba wari wagera nko kwa muganga cyangwa ahandi hantu hatangirwa ubuvuzi, wareba ibikoresho bihari ukaba wakibaza ikintu bikora cyangwa uburyo bikoreshwa bikakuyobera? Ntukwiriye kugira impungenge rero kuko si wowe wenyine ibyo bibazo bibaho, ariko mu gihe wahageze ufite n'uburenganzira bwo gusobanuza kandi bakagusobanurira.

Haruye ubwoko bw'imiti y'ibi gakondo butandukanye burimo imibirizi, imiravumba iyo bita ibisusa, izo ni n'imboga turya, burya hari ibintu turya turi kwivura ariko tutabizi ko turi kwivura.

Natwe dushobora kwivura dukoresheje imiti gakondo irimo nk'ibitunguru, indimu n'ibindi bigiye bitandukanye kandi ntibisaba ko iyo miti iba warayandikiwe na muganga ahubwo ni ibintu tuba dukwiriye kujya dukoresha ku mafunguro yacu ya buri munsi kuko bifitiye umubiri wacu akamaro.

Hari ubwoko bw'ubuvuzi, bukaba ari ubuvuzi gakondo, bukaba bukoresha umuti bita ''foreva aroracamu'', ubwo buvuzi rero bukaba bwemewe kuko n'iyo miti iremewe.